Abagore batatu bari kuvoma, umwe ni we uri kuri robine. Iyo robine iteretseho amajerekani menshi ku buryo ashobora kuba asaga cumi n'abiri. Ari kugenda avoma imwe yakuzura akayikuraho agashyiraho indi.

Ahahuriye ababyeyi bafite abana bakiri bato, bigaragara ko abana babo bari munsi y'amezi atandatu, bagaragaza ko baje gukingiza, imbere yabo hari umuganga wambaye agapira k'umuhondo bigaragara ko atari umwenda w'akazi ariko ari umwenda watanzwe n'ikigo runaka cyita ku buzima.

Abana babiri bafunguye robine, barimo baranywa amazi. Bari gutega ibiganza amazi akaza asa n'urubogobogo, bigaragare ko ari amazi meza begerejwe muri gahunda y'ubudehe. Umwana umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ishati ijya kuba madowadowa.

Mu gihe cya coronavirus wasangaga buri muntu wese yambaye agapfukamunwa kandi akagerageza gukaraba kenshi cyane gashoboka. Aha ngaha turahabona abantu bane barimo abagabo batatu n'umugore umwe, bombi bambaye udupfukamunwa. Umugore ni we wambaye agapfukamunwa kadasa n'utwo aba bagabo.

Umugore wagiye kwisushumisha inda, yambaye agapfukamunwa aryamye ku gitanda ababyeyi bategererezamo, umugore uri kumusuzuma w'umuganga, na we yambaye agapfukamunwa, yashyize icyumvirizo ku gutwi, ari gukoza ku nda ngo yumve uko umwana atera.

Abana babiri bari guseka bishimye cyane bajyanye indobo z'amazi kuvoma, bavuyeyo basanga iwabo ntabariyo barayasuka aho bageneye gushyira amazi basubirayo, umwana umwe ni we mukuru ari gufungura umuto akavoma.

Imbaga y'abantu ihagaze imbere y'icyumba cy'inama, no hejuru byanditseho nubwo byanditse mu rurimi rw'igifaransa, gusa ni abagore, abagabo, ndetse n'urubyiruko, abagabo barimo si benshi, ariko harimo umugabo umwe wambaye amarinete, n'undi mugore wambaye amarinete.

Imbaga nyamwinshi y'abantu iteraniye hamwe, irimo abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, baba abirabura, abazungu ndetse n'abarabu, bose bahuriye hamwe kugira ngo barebere hamwe uburyo bahashya icyorezo ndetse n'izindi ndwara zishobora guteza ibibazo byo mu mutwe.

Undi mugabo wishimye, yongeye kugaragara yicaye iruhande rw'imigezi ibiri bahawe muri gahunda y'ubudehe, kugira ngo amazi meza mu mudugudu asakare, afite ijerekani iri mu mabara ya kacyi, yambaye ishati y'amaboko magufi, yaje kuvoma, ategereje umufungurira.

Abana bane bagiye ku mugezi, umwe yambaye isengeri y'umutuku, undi yambaye ishati ya kontoni, undi yambaye umupira w'igitaka, yambaye ibirenge ni we uri kubafasha kuvoma amazi meza.

Uyu mugezi wubatswe muri gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza, wubakwa n'ubudehe. Umugabo uhari, arimo arabafasha kuzamura icyuma kiba inyuma, kuko ari cyo gituma amazi azamuka. Kuri robine hateretse ijerekani iri kujyamo amazi.

Umwana yagiye ahetse murumuna we agiye kuvoma ageze kuri rubine ku mudugudu asanga amazi yakamye, biba ngombwa ko ajya kuvoma mu gishanga ashyiraho akavovo arangije ategaho ijerekani, aya ni amazi ashobora guteza ibibazo birimo n'indwara bitewe nuko aba arimo inzoka n'imisundwe.

Abagore batanu bagiye kuvoma bagezeyo bahasanga amajerekani menshi biba ngombwa ko batonda umurongo bakoresheje amajerekani yabo. Kuko ni amajerekani asaga cumi n'atanu. Byumvikane ko abantu tubona ataribo bakagombye kuba bahari ahubwo umwe ijerekani iri kuzura akaza akayikuraho akagenda hakaza undi.

Umwana wambaye bodaboda zishaje, yambaye ikabutura y'umutuku n'ishati irimo amabara ya gisirikari, ateze ibiganza bye kuri robine, ari kunywa amazi, ari guca mu biganza ari kwikubita mu ibase isa n'ivu.

Umugabo ugaragara nk'ukora mu kigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, bitewe n'uko munsi y'ifoto ye hariho amagambo ari mu nyuguti eshatu avuga ngo RBC. Hakaba hariro n'izina rye rivuga ngo dogita Sabin Nsanzimana.

Nkuko Leta ihora idukangurira gukoresha amazi meza, atetse cyangwa se asukujwe indi miti izwi nka siro. Aba bana bagiye kudaha amazi mu gishanga bitewe nuko ku Mudugudu wabo nta mazi meza ahari. Aya ngaha adakoreshejwemo iyi miti yateza ibibazo.

Hano baratwereka igikapu gifashwe n'umugabo ndetse n'umugore, witegereje neza nubwo kiri mu ishusho y'igikapu uraza gusanga ari icyapa cyanditseho ngo visit Rwanda, cyangwa se ngo sura u Rwanda, inyuma y'aho hari ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Imbaga y'abantu baturutse imihanda yose, harimo abazungu, abarabu, abirabura ndetse bakaba bafite uducupa tw'amazi buri umwe imbere ye, buri wese afate ikayi, ikaramu ndetse na telefone.

Umukecuru wagiye kuvoma amazi meza kuri robine, yafunguye robine ebyiri bitewe n'uko yajyanye amajerekani atatu, bitewe n'uko imbaraga z'umubiri ari nkeya byanze bikunze hari abuzukuru be baza kumutwaza.

Agatanda kagaragaraga nk'aho iri ako mu cyaro, bogeje amasahane barangije bayashyiraho, iruhande rwako hateye insina, hari n'urugo rw'imiyenzi, ni agatanda kubatse mu buryo bwa gakondo, ibiti bine barangije bashyiraho n'utundi hejuru.

Umugore ushagawe n'abana b'ibikara, yambaye amarinete, akenyeye n'igitambaro biragaragara ko ari kubasobanurira uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo, nubwo bigaragara ko abo bana bakiri munsi y'imyaka y'ubukure.

Imbaga y'abantu iteraniye hamwe, biragaragara ko bari kwifotoza, birashoboka ko ari bwo igikorwa bajemo kigiye gutangira cyangwa se kikaba kirangiye. Iruhande rwabo hari ibendera ry'umuryango wabo ndetse hakaba n'ibendera ry'Igihugu.

Abagore, abagabo bicaye bazengurutse ameza ku murongo w'imbere, inyuma yabo nubwo batazengurutse ameza na bo basa n'abakoze uruziga, barangamiye umuntu umwe uri kubaha ikiganiro ku miterere y'uko bakwirinda kanseri.

Umwana ukikiwe na nyina afite uburwayi bigaragara ko muganga ari kumwitaho, bitewe n'uburyo abyimbye amatama ashobora kuba arwaye bwaki, umuganga yambaye icyumvirizo mu ijosi arimo aramupima ngo arebe niba koko ari bwaki arwaye.

Umugore wambaye itaburiya nk'iy'abarimu nubwo ari umuganga, afite umusatsi w'umukara ukora inyuma, afite ajenda mu ntoki na mikoro y'umukara, ahagaze imbere y'ahantu hateraniye abantu benshi, aje kubasobanurira ku bijyanye n'indwara y'igituntu.

Abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu bagiye ku mugezi buri wese afite akajerekani ke, umukuru muri bo yajyanye amajerekani abiri, bagezeyo bahasanga umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ari kubafasha kuvoma ku ivomero bubakiwe n'umukuru w'igihugu.

Umukecuru wambaye ibitenge by'amaribanya, afite n'agakomo, agacigatiye umwana biragaragara ko yagiye kumukingiza, bitewe n'uko iruhande rwe hari abandi babyeyi bafite abana bari mu kigero nk'icy'umwana we.

Inama yiga ku bijyanye n'amafaranga agomba gukoreshwa mu kuzamura ireme ry'ubuzima, yahuje imbaga y'abayobozi bagomba kwigira hamwe ibigomba kuvamo bakajya kubisangiza abaturage bayoboye ku mudugudu.

Umugore bigaragara ko yabya akiri muto cyane, afite indobo y'umukara ifite akuma kameze nk'umukondo wo guteruza, yagiye kuri robine ajya kuvoma, agenda acigatiye akana gasa n'agafite imirire mibi.

Umwana wavuye mu rugo agiye kuvoma ariko ajya kudaha amazi mu gishanga, aya mazi dukangurirwa kutayakoresha kenshi, n'igihe tuyakoresheje tugakoresha imiti yica mikorobe kuko uretse no kuba arimo mikorobe ushobora kuba yanywamo umusundwe.

Abanyabuzima bambaye amataburiya ajya kuba ubururu bwijimye barimo baratanga ibinini by'inzoka ku baturage baje babagana, muri abo babaturage kandi harimo n'ugaragara nk'umuzungu unambaye amarinete.

Ikirango kirimo amagambo atatu ari yo W, F na P biragaragaza ko ari Ikigo cy'Umuryango w'Abibumbye cyita ku biribwa, barabungabunga ndetse bakanerekana uburyo hakwirindwa gukoreshwa ibiribwa byarengeje igihe.

Umugore yajyanye umwana we kwa muganga, agezeyo biba ngombwa ko amwururutsa atangira kurira, ahita afata umugati yari yamupfunyikiye arawumuha maze muganga ahita abona ko atangira kumwitaho muganga yambaye agapira k'umweru n'isaha ku kaboko.

Umugabo ugeze mu zabukuru yambaye imyenda yacitse umusatsi wamutukuriyeho, yirirwa agenda mu muhanda wa kaburimbo n'ibirenge nta kintu na kimwe yishisha, biragaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ubwonko bukaba butagikora neza.

Umugabo wegamye ku gikuta ni nijoro amatara ari kumumurikaho wagira ngo ntabwo azi ibirimo biramubaho, aragaragara nk'ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ku buryo ashobora kuba akeneye inzobere mu byo kuganiriza abantu ngo babe bamufasha gukira iki kibazo afite.

Muri iyi minsi ya none ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe mu bibazo bihangayikishije Isi, kugeza ku rwego rw'aho, batangiye gutekereza ko na byo byaba bifite ingaruka zituruka ku ntambara, uyu mugabo arimo ariyumvira, bigaragara ko na we ibyo bibazo byamugezeho.

Inama Mpuzamahanga yita ku buzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe, biragaragara ko yateraniye aha ngaha, hakaba hariho uburyo bwitwa mobile clinic, akaba ari ukuvuga ngo ni ibitaro bigendanwa bishobora gufasha uwo wese waba ufite ikibazo nk'iki.

Ihuriro ry'abagore ubona ko bishimye cyane, bari kuganirizwa n'abagabo, biragaragara ko bari bitabiriye igikorwa ngarukamwaka, kigaruka ku munsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Imbaga y'abantu iteraniye hamwe iri kumva ibyo umuyobozi wabo ababwira, ni umugore wambaye ikanzu igera hejuru y'amavi, yambaye n'agakoti k'umukara, imbere y'ameza ahagazeho hari uducupa tw'amazi, marete ndetse n'ibikapu.

Abagabo n'abagore bigaragara ko bariye amafaranga akabayoboka, bari baje guhurira mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bwugarije Isi n'u Rwanda muri rusange, aho umuntu yicara akigunga anafite amafaranga.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, bigaragara ko byatangiye ari imikino ariko bikaba byaramaze kugera ku rundi rwego. Yambaye ubusa hejuru akenyeye igitenge, ndetse mo imbere biragaragara ko ashobora kuba yambariyemo n'ijipo afite ibishashi brimo ibintu bitandukanye.

Umupira w'umweru wanditse mu magambo ari mu rurimi rww'Icyongereza, amaboko yawo arasa n'ubururu ndetse no ku ijosi naho harasa n'ubururu, biragaragara ko barimo baramamaza uru ruganda rwa RPS.

Umugore wihebye wicaye ku ntebe y'urubaho, yicaye mu nzu y'idirishya ryasenyutse, ikindi kandi yambaye inkweto zahengamye, arimo ariyumvira cyane bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umusaza ufite ikibazo cyo mu mutwe byageze aho bamwambika imihama mu maguru ndetse n'amaboko, biragaragara ko yagize ibibazo by'ubwonko ntakurikiranwe hakiri kare na we ubwe ntiyitaho, kugeza ubwo ahindutse hahandi uvuga ngo umuntu yarasaze.

Umukecuru ugeze mu myaka nka mirongo irindwi n'itanu, yicaye iruhande rw'abana babyimbye udutama basa n'abarwayi bwaki, ikindi kandi impamvu ubona ko wagira ngo ni bwaki, bose imisatsi yaracuramye ku buryo hari n'abo yamaze gupfuka, basigaranye impara kandi bataragira imyaka n'itandatu.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku kiriho ibirango bya arabisi kirakangurira abana by'umwihariko abageze mu gihe cy'ubugimbi, kwitwararika kugira ngo bahangane n'icyorezo cya koronavirusi, ariko binagendana n'ubuzima bw'imyororokere, n'igihe cy'ubugimbe n'ubwangavu bagezemo.

Abagore batatu bicaranye n'abagabo babiri ndetse n'umwana ukiri muto iruhande rwabo, bicaye imbere y'inzu isa naho ifunguye kandi idahomye neza, bari kuganira ku buryo bashobora kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore n'umugabo bafashe umwana wabo usa n'uwanegekaye cyane, umugabo afite akabando, mu gihe umugore afite urunigi ahambaye mu ijosi, umupira yambaye urasa n'ivu.

Mu nama yateguwe n'Ikigo k'Igihugu kita ku Buzima RBC, iri kuyoborwa n'abagabo ndetse n'abagore, ku ikubitiro hari umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikoti mu gihe hari n undi mugore wambaye umupira w'ubururu afite n'umusatsi ukora mu bitugu iruhande rwabo bombi hateretse amazi mu macupa ya Nile.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe, televiziyo, igitanda ndetse n'imigezi yabugenewe, aho ugenda ugategaho ibiganza amazi akizana, biragaragara ko bahakurira amenyo gusa kuri iyi nshuro, uyu munsi ubanza ntabaganga bigeze babona abarwayi.

Umugabo wasamye arayura cyane bitewe nuko urwasaya rwo hasi n'urwo hejuru byatandukanye. Arangije afata urutoki arutunga ku ryinyo risa n'irirwaye. Umuganga umuri imbere ye afite icyuma kiriho amenyo menshi asa n'amenyo y'amakorano barashaka gusimbuza iryo amwereka ko ryaboze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma bitandukanye, yaba amakamera, intebe zo kwicaraho, ibitanda, hariho n'agatasi gateretsemo ururabo, bigaragare ko urwo rurabo ruhahora. Aha ngaha ni aho bakurira amenyo.

Icyumba kirimo intebe iriho umufariso, ifite amabara y'umweru n'akantu k'umutuku bigaragara ko ariko bakoresha bayatsa kugira ngo ibashe gukora, hariho televiziyo itari mu bwoko bw'ibiromba, yifashishwa mu kugira ngo abaje kwivuza batagira irungu, mu gihe serivise bateganyirijwa zitarabageraho.

Umuganga w'umugore wambaye amarinete mu mutwe, yambaye agapfukamunwa kasigaje amaso yonyine, yambara na ga ebyiri, arangije afata ipensi yasamura umwana, agiye kumukura iryinyo rirwaye.

Buri mwana afite uburoso bwoza amenyo mu ntoki ze, aho yabumanitse. Umwe muri bo uri imbere, ari kwiborosa akoresheje umuti wabugenewe ndetse n'amazi meza afite isuku, kugira ngo arinde amenyo ye gucukunyuka.

Umugabo uri guseka iruhande rwe hari abaganga, umuganga umwe afite akinyo ku rushinge undi afite amenyo menshi y'amakorano ku cyuma abikwaho, bitewe nuko afite iryanyo rirwaye yaje ngo barivanemo bashyiremo aka ngaka.

Umusore ufite imibiri yombi, afite ubwanwa bwinshi bwambukiranya imisaya, bukaza bukanazenguruka ku munwa, ubwo hejuru y'umunwa buciye no munsi y'amazuru, afite akadodo kagaragaza ko amenyo ye ari ko yifashisha ayoza.

Ubuvuzi bw'amenyo muri iyi minsi usanga busa n'ubwamaze gutera imbere bitewe n'abanyeshuri benshi Leta isigaye yohereza muri za kaminuza, yaba izigenga na zo zikaba zifite uruhare rukomeye cyane kuko harimo izifata abo banyeshuri.

Umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, afite ubwoba bwinshi cyane ndetse arimo aranataka. Yaryamishije umusatsi we w'umukara hasi, hanyuma abaganga bambaye udupfukamunwa uko ari babiri bazana ibyuma bimeze nk'amapensi bagiye kumukura iryinyo.

Inyubako yubatse mu buryo budasanzwe, aho imbere igaragara ko yubakishijwe ibirahuri gusa, aho inkingi ari zo zikozwe muri sima. Yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza ariko akaba agaragaza ko hatangirwagwa serivise y'ubuvuzi bw'amenyo.

Abana babiri, umwe afite derede, undi w'umukobwa afite umusatsi muremure ariko utagwa inyuma, icyo bahurizaho bombi ni uko bambaye imipira y'umweru, kandi n'amenyo yabo akaba ari urwererane.

Abakecuru babiri bari kwa muganga gusa umukecuru umwe ni umuganga nkuko'uko bigaragara, ari guha undi mukecuru ibinini yanabishyize mu kiganza, ari kumubaza ibyo agomba kuzajya anywa ku munsi.

Umugabo n'umugore bicaye mu cyumba kigaragara ko ari icyo kwa muganga, ni icyumba kiriho uburiri bwiza, hariho amashuka meza, kiryamyeho umusaza ufite inda bigaragara ko yanyweye byeri zikamuyoboka gusa zikaba zatangiye no kumugaruka.

Umusaza uryamye yiyumvira, yiyoroshe ishuka y'umweru, yambaye n'agapira k'umweru, ubwanwa bwe bwahindutse imvi ziba uruyenzi na bwo burasa n'umweru, aryamye impande y'ikintu gikoze nk'umunzani wo kwa muganga upima abarwayi.

Abagore n'abagabo bicaye mu gacaca basa n'abari mu kagoroba k'ababyeyi ku izuba rya kiberinka, umugore umwe ari kuboha agataro. Uyu mugore abandi barimo baramureba bishimye cyane, bareba ibyo akora.

Umugabo ufite agatuza kanini cyane yambaye iherena uruhande rumwe umusatsi wose yarawogoshe amaraho, uyu mugabo afite igikombe cy'amazi ndetse afite n'ibinini mu kiganza agiye kubinywa nk'uko muganga yabimwandikiye.

Umukecuru ufite igikapu kirimo amabara asa n'amaraso, iruhande rwe hari undi witeze igitambaro kiri mu ibara ry'iroza, umugabo wambaye ijiri y'umukara, na we ahanze amaso ibiri imbere ye, abandi bose baragaragara nk'abari gukoma amashyi.

Umusaza wambaye amarinete ari imbere y'abagore babiri, gusa umugore umwe arimo aramufasha gukora siporo imufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza, iminsi yo kubaho igakomeza kwicuma. Ibi ni ibintu akora buri munsi.

Umukecuru uri muri siporo ufashe utuntu tubiri mu ntoki abenshi bazi nk'ariteri ariko zitari za z'indi zimenyerewe nk'iziba zicometsemo igiti, kamwe ugafata ukwako n'akandi ukwako, ari muri siporo araseka yishimye cyane, afite umusatsi watangiye kuzamo imvi.

Abagore babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku, afite umusatsi w'umukara, mu gihe undi yambaye umupira w'umweru, akaba afite umusatsi w'umweru, yambayemo agasengeri k'umukara ufite umusatsi w'umweru n'agashaneti ka zahabu.

Umusaza yagiye kwa muganga agezeyo asanga umugore uri mu myaka mirongo itatu ni we uri kumuvura, arangije ambwira ikibazo afite na we yandika mu makayi, arangije amuha urupapuro rumujyana gufata imiti kuri farumasi y'ibitaro.

Umusaza w'imyaka mirongo icyenda n'itanu, afite iminkanyari mu maso, ubwanwa n'umusatsi, imvi zabaye uruyenzi, afite umuntu umwitaho, yamusize isabune mu mutwe, arangije amushyira ku mugezi ugezweho, amazi ari kumanuka akamwuhagira.

Umugore, umugabo n'abana babo, abana ni batatu, umwe arajya kungana na se bigaragara ko ari imfura, undi umukurikiye aciye bugufi, mu gihe undi we ari bucura ari muto cyane, barimo barishimye nk'umuryango.

Umusaza ukuze cyane uri hejuru y'imyaka nibura mirongo itandatu, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano isa n'ubururu cyangwa se ukaba wavuga ko ari ubururu bwijimye, arimo arasekera umusaza, umusaza na we agaseka iminkanyari ikarambuka.

Umukobwa ari gusunika sekuru mu igare ry'abafite ubumuga, sekuru ageze mu zabukuru nubwo ari kugenda mu igare ry'abafite ubumuga ntabwo ari ko yavutse cyangwa se ngo abe yaravukanye ubumuga, ahubwo ni uko imbaraga z'umubiri zigenda ziba nkeya.

Umukecuru w'umwirabura wagira ngo akomoka muri Senegal cyangwa Cameroun bitewe n'igikari yifitiye yambaye isengeri, yambaye agashenete, umusatsi si mwinshi ari gukora pompaje akoresheje inkokora.

Umugore n'umugabo bari mu myitozo ngororamubiri buri umwe yambaye isaha, umugabo yambaye impeta igaragaza ko afite uwo bashakanye, mu gihe umugore we nta kintu na kimwe kigaragaza ko yaba yubatse nubwo agaragara nk'ukuze.

Umugore n'umugabo barimo baraganira baseka bishi cyane, umugore ni umuganga mu gihe umugabo ari umurwayi waje kwivuza, yaje kwivuza yambaye marinete n'ishati y'umutuku, afite ubwanwa n'amenyo y'urwererane.

Icyapa kiri muri mpande eshatu kiragaragaza uburyo imyubakire y'ubuvuzi iba iteye mu gihugu cy'u Rwanda. Hari aho bakubwira ngo nujya kwivuza uzahera ku bakuri hafi. Ubwo ni ukuvuga n'amavuriro yo mu mudugudu ukazamuka ukajya kurwego rw'ikigonderabuzima kubitaro by'akarere ukajya kubitaro by'intara, kugeza kurwego rw'igihugu.

Ababikira batatu bahuye na minisitiri w'ubuzima. Uyu mugabo akaba akunze kugaragara mu bikorwa byinshi cyane. Abantu bamumenye cyane, ubwo yari muri kampanyi yo kurandura burundu icyorezo cya kovide cumi n'icyenda.

Imbaga nyamwinshi y'urujya n'uruza rw'abantu bicaye hamwe, biragaragara ko ari urugerero ruciye ingando. Ni abana basoje amashuri atandatu yisumbuye, bari guhugurwa ku buryo bashobora kwita ku babari hafi bagize ibibazo by'ubuzima.

Umukecuru usa n'uwakomeretse ku jisho, bamushyizeho igipfuko gisa n'umweruru, aragaragaza ko ashaje cyane kuko iminkanyari yaraje ku buryo amenyo yose yashizemo, akaba asigaranye akinyo kamwe konyine, bivuze ko icye ni ukwinywera agasosi gusa.

Icyapa kigaragaramo abantu batanu, ni icyapa gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho kirimo akantu gasa n'akadirishya. Aba bombi bagihagaze iruhande ari abamama, bakaba bitabiriye umunsi mpuzamahanga wo kurwanya Kanseri y'inkondo y'umura.

Umwana uryamye hasi, ni ifoto yifashishijwe kugira ngo bategure umunsi ngarukamwaka wita ku buzima mpuzamahanga, abo bakubwira ngo hasigaye umunsi umwe igikorwa nyirizina tukacyinjiramo cyo kurwanya no kurandura indwara z'ibyorezo.

Umugabo uri mu ifoto igaragaza ko ari ikigo gihangana n'ubuzima bwo mu mutwe, yambaye umupira w'umweru, amarinete, arimo aramwenyura gake biragaragara ko hari ubutumwa ashaka gutanga.

Umugabo wasamye, yasamiye muganga, muganga yambaye itaburiya, yambara ga, ndetse yambara n'igishashi gipfutse mu mutwe, arangije ashyiraho agapfukamunwa, ku buryo ari gusuzuma uyu murwayi niba adafite ikibazo cy'amenyo.

Mu rwego rwo gukangurira abatuye isi kwirinda ndetse no gufatira imiti ku gihe ku bamaze kwandura virusi itera SIDA, ni byiza ko uwamaze kwandura yihutira kujya kwa muganga agatangira imiti ku gihe, utarandura na we akifata cyangwa se mu gihe byaba binaniranye agakoresha kapote.

Umwana wishimye cyane bigaragara ko yitaweho n'ababyeyi be akivuka akaba afite ubuzima bwiza, bamwambitse isaha baramwogosha bamwogoshya inyogosho nakwita ko zitagezweho bitewe nuko ari izizwi nka orodineri.

Abagore bateraniye hamwe bari imbere y'icyapa kiriho akarango ka Croix Rouge, buri umwe yambaye umwenda w'imbeho kugira ngo abashe kuza guhangana n'ikirere mu gihe cyaba gihindutse, imvura igatangira kugwa.

Ubwo icyorezo cya Covid cumi n'icyenda cyadukaga, Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukaza ingamba z'ubwirinzi, no kukirandura burundu, hakingirwa abatarandura ndetse n'abanduye bagashyirwa mu kato bakavurwa.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu nyuguti eshatu N, C na D, ibi ngibi mu rurimi rw'Icyongereza bikaba bivuga ngo non-communicable diseases, iruhande rwabyo hari ikaramu y'umukara igaragara nkaho ari yo yabyanditse.

umugabo uri gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'ubuzima, uyu mugabo ari kuyitanga iruhande rwe hari ifoto y'undi mugabo bashobora kuba barakoranye muri ibi bintu ariko akaba yaritabye imana atakiriho.

Mu rwego rwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura, ubona ko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu bukangurambaga bwo kugira ngo buri wese yumve uko kanseri y'inkondo y'umura, ari mbi kandi ishobora no kwica. Buri mwaka rero hategurwa igikorwa cyo gukingira abana bageje imyaka cumi n'ibiri, ku bakobwa.

Biragaragara ko iyi foto yafashwe mu gihe cya Kovide cumi n'icyenda, bitewe n'uko abagabo, abagore, abana n'abandi bantu batandukanye, bose bambaye udupfukamunwa kandi bakaba bambaye imyenda isa, bigaragaza ko bari muri gahunda yo kurandura iki cyorezo.

Mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kubungabungwa ikijyanye n'ubuzima bwa muntu, ibigo byinshi bikangurirwa gufatanya n'ikigo cy'ubuzima kugira ngo hahashywe indwara nka kanseri kuko barakubwira ngo irica ariko yakwirindwa.

Ubu ni uburyo ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima cyitwa RBC cyashyizeho mu rwego kugira ngo hakumirwe ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA, bitewe n'uko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri imibare yagiye yihinduranya umunsi ku munsi.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu Karere ka Muhanga mu Ntara y'amajyepfo, iyo ubigezeho uhabona icyapa kinini gikoze mu buryo bw'umuryango hejuru hakaba handitseho ibitaro bya Kabgayi ku buryo uhageze udashobora kuyoba.

Inzu irimo imashini yo kwa muganga imeze nkaho isuzuma, ikanareba niba ibizamini byafashwe nta mikorobe zirimo zishobora kuba zakwangiza umubiri, iyo basanze nta kibazo na kimwe kirimo bakuzanira ikizamini kikubwira ko mu maraso yawe nta dukoko turimo.

Mu karere ka Musanze ahahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, ku Bitaro bya Ruhengeri havurirwa indwara zitandukanye n'abantu b'ingeri zitandukanye, gusa ibi bitaro nubwo bivura indwara nyinshi ntabwo bivura Kanseri y'Ibereye kuko ibitaro bivura iyi ndwara byo biherereye i Butaro.

Farumasi icuruza imiti harimo imiti y'ubwoko bunyuranye, mu maetajeri arenga arindwi buri tageri irimo ubwoko bw'imiti yabwo ifunze mu dukarito, harimo iy'umweru, umutuku, ubururu, icyatsi n'indi.

Inzu bigaragara ko yafotowe mu myaka yo hambere kugira ngo bagaragaze neza uko ubuvuzi bwari bwifashe mu myaka nk'icumi ishize, harimo umugore ndetse n'umugabo bagaragajwe nk'abavuwe n'imiti bagiye bahahererwa.

Icyumba giteguye neza kirimo intebe n'ibitanda biriho imisego ndetse n'imifariso, iruhande hariho imashini izwi nka desktop, kandi hakaba harimo n'amakamera ashinzwe gucunga ibikorwa remezo birimo aha ngaha ngo hatagira umugizi wa nabi ubyangiriza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo televiziyo, kikaba kirimo intebe n'ameza, biragaragara ko iyi ishobora kuba ari salle abaganga bahuriramo, iyo basoje akazi ngo baganire uko kagenze, banategure uko ako bazakora mu gitondo karaza kuba gateye.

Inzu itangirwamo ubuvuzi, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa kariho ikirango cy'uruganda rwa Nike gasa n'umutuku, yambaye igishashi arangije yambara n'ikaburiya y'akazi, yagiye ku mikorosikopi kureba mikorobi z'ibizamini yafashe uko zihagaze.

Inyubako ikoze mu bisa n'amatafari ahiye gusa ikaba itageretse iriho amadirishya abiri buri dirishya rikaba ririmo ibisate bibiri kandi bikaba biri mu kirahure, hasi harimo akajaride gateyemo pasuparumu n'indabo zikiri nto.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho igishushanyo cy'umuntu, inyoni, harimo ibikorwa nakwita ko ari iby'ubugeni, hari intebe kandi zigaragara nkaho ari iz'abaje kwivuza bicaraho mu gihe ababafasha bataraboneka.

Icyumba kirimo agakorodoro ushobora gukatiramo ku buryo umuntu ashobora kugushaka ntakubone, buri muryango ugiye uriho icyo hashobora gukorerwamo, hari ahanditse ko ari isolation boy ahandi hakaba handitse ko ari isolation boy one.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda gishashe neza, kiriho amashuka ndetse n'imisego ibiri, iruhande rwacyo hariho televiziyo y'ikiromba ubona ko ari imwe mu ma televiziyo zo hambere ku rwego rw'uko kuri ubu uyifite afatwa nk'umuntu utazi aho isi igeze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe, kirimo amatara, kirimo ibikoresho byose bigiye bitandukanye, haragaragara nk'aho ari mikorosikopi yifashishwa mu gusuzuma indwara ndetse n'udukoko, tudashobora kuboneshwa ijisho rya muntu.

Inzu yanditseho ijambo polyclinique du plateau biragaragara ko ariko yitwa. Ni inyubako yubakishije ibirahuri bigaragara ko inshuro igeretse inshuro zirenze imwe. Iruhande rwayo hateye imikindo ikiri mito.

Umugore ufite umwana mutoya mu ntoki barimo baragenda ku muhanda ukuze mu mapave, iruhande rwabo hari jaride iteyemo indabyo, iburyo bw'umwana hari insina zifite amababiye yatukurije bitewe n'izuba ryabaye ryinshi, hari umwana kandi imbere yabo ufite basi agiye kudaha amazi meza nubwo ari mu gishanga, biraza gusaba kuyateka kugira ngo uko agaragara na mikorobe zibe zapfuye.

Umugore witwara nk'umupolisi, yambaye imyenda ijya gusa n'ubururu, yambaye metero mujosi afite umusatsi ufunze shinyo, yambaye inkweto z'umukara, arimo aratambuka ashyize impumu, bigaragare ko imbaraga zi'minsi igihumbi zari nziza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imiti ifunze mu macupa, mu bikarito ndetse n'ibinini bigiye biri mu ducupa tubonerana. Hari amacupa afungishije imifuniko y'umutuku, umuhondo, icyatsi n'ubururu.

Inyubako igeretse kabiri ifite inkingi eshatu, hirya hakaba hari indi nkingi ya kane ariko yo ikaba iri ku ruhande, imbere y'izo nkingi hari igiti cy'umukindo kiri mu kajaride gakikijwe n'agakorotire kari mu mabara y'umukara n'umuhondo.

Icyumba kigaragara nkigitangirwamo ubuvuzi, gikoze mu buryo bw'umuzenguruko w'uruziga. Harimo intebe z'ibyuma zitajya zinyeganyega kuko ni intebe zicometse hasi mu masima, hifashishijwe ibyuma byabugenewe mu kubaka ndetse no gusana.

Umugore uri mu ifoto y'ikirango cya Nova, yambaye amarinete abonerana afite umusatsi utendera inyuma mu mugongo, ku ijosi rya bitewe n'igicucu utitegereje neza wagira ngo ubwanwa bwavuye ku matama buhinguka mu ijosi.

Icyumba cyo kwa muganga bigaragara ko harimo televiziyo nini cyane ndetse hakaba ariho amatara na kamera, ni icyumba bigaragara ko abagore ariho bategerereza igihe baje kubyara inda zitari zagera igihe ariko zatangiye kwivumbura.

Icyumba kirimo igitanda gishasheho ikuvureri ya kaki, kikaba kiri ku mapine ane, iruhande rwacyo hariho itara ndetse kuri iryo tara hariho na mubazi ikwereka aho umuriro waguze w'amashanyarazi wo gucana ugeze.

Icyumba kigari cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, ni ibitanda buri kimwe hejuru yacyo hariho idirishya ndetse n'itara, gusa nkuko tubimenyereye ahandi ntabwo tubona aho supanete zishobora kuba zajya cyangwa se ngo tubona aho zaba zimanitse.

Abagore ndetse n'abagabo barimo abazungu n'abirabura utibagiwe n'abarabu, bose bari kwifotoreza ku cyapa kigaragaza ibitaro bya Butaro. Ibi ngibi akaba ari bitaro rukumbi mu Rwanda birebana na Kanseri.

Kwa muganga biragoye ko uzajyayo ukahasanga hatari isaha yifashishwa. Ikindi kandi iyo winjiye mu bwiherero bwaho uhasanga hari imisarane igezweho, ivubura amazi, ndetse hakaba hari n'isabune ukaraba mikorobe zigapfa.

Imwe mu nyubako zo kwa muganga irimo kamera zicunga ibihabera byose, iriho ibirahuri byinshi cyane ubona ko ariryo byiganje mu mizi iyikoze, hejuru hariho amatara yometse muri parafo, mu gihe hasi ari sima ivanze n'amakaro.

Aha ngaha hari inyubako yubakishije amatafari ahiye, gusa ikaba isakaje amabati ajya gusa n'icyatsi, hejuru hari umurasire utanga umuriro handitseho ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Umugabo uryamye kwa muganga, ari kureba mu kirere, yambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa gahinguranye amatwi yose, yambaye ipantaro y'ikoboyi muganga ari kumushyira igipimo mu kizigira cy'akaboko, ngo arebe uko umuvuduko w'amaraso we uteye.

Ahantu heza cyane hari jaride ubona ko biteye amabengeza, biragaragara neza ko imbere yaho hari igiti k'indimu, ikindi kandi izo nyubako zikubakishwa amatafari ahiye zikaba zikikijwe n'ibyuma biteye irangi ry'icyatsi.

Umurombero wicayemo abantu batandukanye buri wese yicaye ku ntebe ye, hari umugabo uhagaze yambaye agapfukamunwa n'inkweto z'umukara, yambaye ipantaro y'umutuku biragaragara ko atazi iyo ajya, uyu na we ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyumba kirimo imigezi igezweho ya kizungu, aho ufungura amazi akijyana, waba wakarabye n'isabune byose bikagendana, iki ni icyumba kirimo amatara, kamera ndetse kikaba kirimo na televiziyo.

Uzasanga bakubwira ngo uko byagenze ibara umupfu, mu rwego rwo kwirinda izo mfu rero biragusaba ko wihutira kujya kwa muganga mu gihe wumva ufite ikibazo cy'ubuzima, ibi bitaro biriho inyubako nziza cyane, imbere hakaba harimo televiziyo n'isaha.

Inyubako igeretse gatatu, hejuru y'iyo nyubako, harimo akazu gasa naho karimo ibyuma bikurura amarezo, hasi yo mu nyubako hari imodoka nto, hari n'icyapa kigaragaza ko ari mu Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza hasi kirimo sima ibonerana ndetse hejuru hakaba harimo amatara amurika cyane yometse mu bikuta atari nka yayandi dusanzwe tumenyereye, harimo kandi kamera zishobora kuba zafata umugizi wa nabi wakwinjira aje guhungabanya icyo gikorwa remezo.

Icyumba kigari kigaragaza intambwe ugomba guhagararamo igihe ugiye kwa muganga, biragaragara ko havuriwe abarwayi ba Covid cumi n'icyenda, hari ibipurizo biririmo iforumu nk'iy'ipapayi, iby'umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, iriho ibirahuri, hasi hateyeho indabo zikiri ntoya, iyo witegereje neza ubona inyuma gato hariho igiti gifite amababi ari mu ibara rjya gusa n'umutuku.

Ahari inyubako zirenze imwe buri nyubako ikaba igeretse inshuro nibura eshatu, ku yigeretse gake, hasi muri parikingi yayo haparitse imodoka nyinshi, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, hejuru ku gasongero kuri iyo nyubako handitseho Legacy Medical Housing.

Abagore babiri n'umugabo umwe, mu cyumba cyo kwa muganga, kirimo microscope ifasha abaganga gusuzuma, no kureba udukoko tudashobora kuboneshwa amaso, dushobora kwinjira mu maraso ya muntu, tukaba twakwangiza abasirikare b'umubiri.

Icyumba cy'umurumbero kirimo amadirishya abiri, buri dirishya rikaba ririmo uturahuri umunani dufungurwa bagira ngo umwuka winjire kubera ko ari kwa muganga, gusa bwamara kwira kugira ngo umubu utinjira ukaba warya abarwayi bakaba banarwara malariya baje kwivuza izindi ndwara, barahakinga.

Icyumba cyo kwa muganga gikurirwamo amenyo, kimuriwemo ibitanda by'abarwayi b'abagore bagiye kubyara ku buryo hamaze guhinduka materinete, amenyo bakayajyana mu gihande k'ibumoso.

Icyumba cyahariwe gufasha abantu babaswe n'ibiyobyabwenge kubireka bakagaruka mu buzima busanzwe, cyafunguwe i Gahini ku mugaragaro kugira ngo gitangire gukora kigire abo cyakura mu bubata bw'ibiyobyabwenge.

Abakecuru bageze mu zabukuru bambaye ibitenge ndetse banambaye imipira bahawe. Iruhande rwabo hari abagabo basa naho babaherekeje, na bo ntabwo batanzwe kuko baragaragara mu niforume imwe.

Inyubako igeretse inshuro ebyiri biragaragara ko ikoreramo ubuvuzi, hasi yashasheho amapave, iruhande rwaho hari pasiparumu ndetse bigaragara ko batayitayeho ngo yuhirwe amazi ishobora kuma bitewe aha ngaha ari mu mpeshyi.

Icyapa kigaragaza uko ushobora gukora siporo ukananura ingingo zawe niba ukunda gukora akazi kagusaba kwicara buri gihe. Guhagarika ikirenge kimwe warangiza ukazamura ukuguru kumwe ugafatishaho ukuboko, kurambura ibiganza, kurambura amaboko ndetse no guhagarara wemye ukarambura ibiganza gusa.

Umukobwa wambaye inkweto zirimo uturongo tw'umweru, ibara ry'umutuku ndetse n'iroze, afashe ku ivi arangije arambura ukuboko kumwe agukoza ku mano, arimo ariyumvira cyane akora ibizwi nka yoga.

Umugore numugabo bambaye imyenda ya siporo, bari ahazwi nko muri gimu, buri wese yambaye imyenda imufasha gukora siporo ashoboye igorora ingingo ze inajyana nibyo aza kuri burye.

Imikino y'abafite ubumuga usanga benshi bibaza uburyo ikinwamo, ariko ni kenshi byagiye bikunda kugaragara ko umukinnyi ufite ubumuga, ashobora gukina iyi mikino, agendera ku mbago, yaba akina umupira w'amaguru cyangwa se n'imikino y'intoki.

Akana gasa n'akarembye cyane, karyamye hasi hagati y'ibintu bimeze nk'igisoro, umugore ugafashe amaboko ye arasa n'umuzungu nubwo umutwe utagaragara, iruhande hakaba hari umugabo uri kureba uko ibintu bimeze.

Umugabo uri kwa muganga aryamye ku gitanda cy'amashuka y'umweru ndetse banamworoshe ikindi kintu cy'umweru, arangije yubika umutwe ahagana ku musego, muganga amushyiraho icyuma bigaragara ko agiye kubagwa mu mugongo.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, afite umupira wa basket mu ntoki, agaragara nk'aho agiye muri siporo, ku gatuza hejuru y'ibere ry'ibumoso, hariho akantu kagaragara nk'umweruru, ubona ko ari ikirango cy'uruganda rwakoze umupira yambaye.

Umukobwa ufite ekuteri mu matwi akaba akaguru kamwe yakarambuye cyane arangije afata ibiganza bye byombi abikoza ku mano ariko ayo mpano akaba ari mu nkweto ya sipurese, afite umusatsi ufunze shinyo, yambaye agasengeri ndetse n'ipantaro byombi by'umukara.

Umusaza wagiye kwa muganga, akaba akenyeye umukandara, umugore bari kumwe ari kugenda amusindagiza, amwereka uko ibintu bigomba kugenda kugira ngo ataza kwitura hasi bitewe nuko imbaraga z'umubiri ziri kugenda ziba nkeya.

Icyumba gitangirwamo inama cyo kwa muganga, biragaragara ko cyateguwe neza. Harimo intebe, harimo n'igitanda ku buryo uretse inama zishobora gutangirwamo, hashobora no kutangirwamo ubufasha bwihuse nko kubaga umurwayi ufite ibibazo.

Inoti igaragara nkaho ari iya kera yanditseho Repubulika y'u Rwanda ariko bikaba byanditse mu magambo y'ururimi rw'Icyongereza, ibi ngibi biragaragaraho ikirangantego cy'Igihugu kirimo ishakaka ndetse n'agaseke.

Akuma gateye neza neza mu ishusho nk'iya burankari, ingobyi itwarwaho abaganga, karimo utuntu dutatu duteye nk'imikandara y'imikara kakaba kifashishwa muri siporo.

Umusore uvuye muri siporo yaguye agacuho, yambaye agakomo k'icyatsi ku kaboko, afite icupa ry'amazi ari kugenda asomaho gake gake, yambaye n'isengeri y'umukara, akaboko ke karagaragara nk'agakora siporo kuko imitsi yose yireze.

Umugabo ukunda gukora siporo cyane yambaye isengeri y'umukara bigaragara ko ananiwe, yicaye muri pasiparumu isa n'icyatsi kibisi ikindi ibiganza bye byombi byahurije ku kaguru k'ibumoso arimo aragakanda cyane.

Umukobwa wirukanse ibirometero byinshi kugera ku rwego yananiwe, agahagarara, agasa n'uciye bugufi ibiganza bye byombi akabifatisha ku mavi, yambaye ishati, yambaye n'inkweto za supurese ariko zisa n'icyatsi.

Icyumba cyahuriyemo abaganga, umuganga umwe ahagaze imbere yabo hari ibyo ari kubasobanurira yifashishije ifoto agenda ababwira ati; dore uko bikorwa namwe ni gutya mukwiye kubigenza, abandi na bo baramukurikiye kandi buri wese ari kwandika ikintu cy'ingenzi gishobora kuba cyamufasha.

Umugabo w'ubwanwa bwinshi n'umusatsi ufunze shinyo, yambaye isengeri y'umukara, yarambuye ibiganza bye byombi ku mavi akunje, arangije aca bugufi arimo ariyumvira asa n'ukora siporo, ibizwi nka yoga.

Icyuma kigaragara nk'icyumvirizo gikoze mu buryo bw'umushumi, iruhande hariho akantu kameze nk'ako bakoza muri kashi iyo bagiye gutera ku mpapuro, hirya hejuru hakaba hariho utumeze nk'udukuteri umuganga ashyira mu matwi.

Igikapu gisa n'umutuku, gifunze ndetse hakaba hariho n'ikindi gifunguye. Igifunguye kiragaragaramo sipuradara zifashishwa kwa muganga, hakagaragaramo udukingirizo, udufunze n'udufunguye.

Umukobwa uri muri siporo yambaye ekuteri mu matwi, ari kugenda anywa amazi bitewe nuko ageze mu mpinga yahumagiye cyane. Anambaye icyumvirizo ku kaboko kigenda gipima ingano y'urugendo yakoze.

Umugabo ari kwikanda mu mavi bitewe no kwirukanka igihe kinini, yambaye isaha yambaye n'akabutura kagufi kagera hejuru y'amavi kamufasha gukora siporo bimworoheye, arimo arikanda ndetse anahagira bitewe n'ahantu harehareriye yirutse.

Akaboko gafite intoki eshanu ariko hagaragara igikumwe bitewe n'uko izindi ntoki enye zikingirijwe n'icupa ry'amazi ya Nile, apfundikijwe umufuniko w'ubururu ndetse akaba agaragara mu kintu cy'igiho gisa n'ubururu bw'ikirere.

Icyuma cyifashishwa muri gym, kiriho amaburo n'amabuto, ameze nk'aya radiyo, hariho umukondo wagira ngo ni uwa soniteke, kiriho kandi urwuma runini cyane dukunda kubona ku marobine rusange.

Igikapu kinini cyane kimeze nka nzaruhahira kirimo imikasi, kikabamo ibikwasi, inshinge zo kwa muganga, ibinini, harimo papiyejenike n'ibindi byinshi byakwifashishwa mu gukora isuku, iki ni igikapu kinini cyane gishobora kuba gihenze.

Umukobwa w'inzobe wambaye ekuteri z'umweru, isaha ku kaboko k'ibumoso, akaboko k'iburyo kakaba kariho icyumvirizo kigaragaza ngo yirutse ibirometero bingana iki, ari kwikora mu mugongo akoresheje ukuboko kuriho kuriho icyumvirizo kugira ngo arebe aho akaboko ke gashobora kuba kagarukira.

Umukobwa wambaye ipantaro y'itiriningi ijya gusa n'ubururu, yambaye na sipuresi. Yarambuye ikiganza cy'iburyo, icy'ibumoso arakirambura kigana inyuma gifata ku kirenge, arangije atangira gutarukisha akaguru kamwe. Yambaye isutiya ihishe amabere gusa.

Imashini yakozwe mu buryo bwa kijyambere, iyi ngiyi ni yo yifashishwa kwa muganga kugira ngo barebe niba umurwayi nta kibazo afite bamupima, iragaragaza imibare, uko umurwayi afite ikibazo ni ko imibare igenda irushaho kuzamuka.

Ibiganza bibiri, birimo intoki eshanu, ariko urutoki rw'igikumwe rwo ntabwo rugaragara, mu gihe izindi ntoki zigaragara guhera mu rugingo, bitewe n'uko iyo ga ibyo biganza byambaye, bayikatiyemo hagati bagasigaza igikumwe cyonyine.

Icyuma gikoze mu buryo bw'ingobyi mbangukiragutabara, kiri mu gishushanyo cy'ibara ry'umweru aho cyerekana ko ushobora kuba wakifashisha mu rwego rwo gukora siporo cyangwa se ikaba cyanakwifashishwa mu gukora siporo ariko nk'umuti.

Umuganga bigaragara ko asoje akazi cyangwa se akaba ataragatangira, bitewe n'uko icyumba yicayemo nta wundi muntu ukirimo, uretse imashini iri imbere ye ndetse akaba afite amakayi atandukanye ari kwandikamo ibintu, afite agapfukamunwa ari kwambara gasa n'ubururu bw'ikirere anambaye ga ebyiri mu ntoki.

Umugabo wambaye impeta igaragaza ko afite uwo bashyingiranywe, afite akantuza k'ubururu ari gukoresha ku nkokora ye, ishobora kuba yagize ikibazo ubwo yari muri siporo, karakonje karimo karamufasha kugabanya uburibwe.

Siporo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, igaragara nkaho ishobora kuba yakoreshwa nk'umuti uretse kuyikoresha mu buryo bwo kwishimisha gusa. Abaganga akenshi usanga bakangurira abantu gukora siporo kugira ngo batazajya bazikora ari uko bazandikiwe nk'umuti.

Umusore uri w myaka makumyabiri n'itanu, yambaye ekuteri z'umweru, zicometse mu matwi yombi ari muri siporo. Yambaye n'umupira w'umweru n'isaha ku kaboko, afite icupa ry'amazi ya nile rifite agafundikizo k'ubururu yagakuyeho ari kugenda ayanywa.

Aha barakwereka uburyo butanu ushobora kuba wakwirindamo indwara zigiye zitandukanye n'uburyo ushobora gukora siporo bikagufasha mu rugendo rwawe rwa buri munsi, niba ugeze aho wumva ukoze siporo ukananirwa, gerageza kuruhuka kubera ko umubiri ushobora kuwunaniza ukaba nk'uwakoze imirimo n'ubundi.

Igipapuro cyanditseho Alpha biragaragaza ko ari uruganda rukora imiti, iyi ni imiti ishobora gukorwa mu buryo bwo kukugira inama ugakora siporo cyangwa se bakanayiguha ukayitahana mu gihe udashoboye gukora siporo, ukayandikirwa nk'inshinge.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba, inyanya, indimu, upfundikiriye mu icupa risa n'umweru, ripfundikije agafuniko kajya kuba ikigina, ibi byose bikaba byarakozwe kugira ngo hatunganywe imiti gakondo ishobora kugira umumaro.

Umuti ukoze mu gikakarugamba cyonyine, baseye barangiza bagatunganya kugera ngo ku rwego rw'aho bakijyanye mu nganda zisa n'aho ari nshya, bagerageza ngo barebe ko zishobora kuzahura n'ibikorerwamo byose umuti ugakomeza kuba wawundi watunganyirijwe mu ruganda ariko ari gakondo.

Imiti gakondo ifunze mu macupa ameze nk'akoregwamo inzoga zizwi nk'imbutabuta cyangwa se ubuyoga bwica bitewe n'uko ubunyoye kabone n'ubwo yaba yanyoye bukeya, ahita ahinduka nk'umusazi.

Agakarito kagaragara nk'akarimo umuti gakondo, ni umuti ushobora kuba ukozwe mu bimera bitandukanye nk'umuravumba, umubirizi, igicuncu ndetse n'igikakarubamba hanyuma y'ibyo bakabivanga n'igitunguru, ufungiye mu gikarito kirimo amabara y'ubururu n'umweru.

Isekuru irimo agahini gatoya, ni imwe mu zifashishwa mu gutunganya iyi miti gakondo, hasekurwa ibyatsi, amababi ndetse n'imbuto zabyo kugira ngo bibe byabasha gutanga umuti uvura abantu.

Amacupa ameze nk'akorerwamo inzoga z'imbutabuta, yahurijwe hamwe kugira ngo bigire hamwe icyo ashobora kuba yakora, niba yajya akorwamo imiti ikabikwa mu gihe runaka kugira ngo itangirikira aho iri.

Isahani ya kijyambere iteretsemo agakombe, iruhande rwayo hariho indimu zikatakakase, muri ako gakombe kandi harimo indimu bari gukanda bakuramo umutobe kugira ngo ube wakwifashishwa mu gukora umuti.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo utubara tw'umutuku n'umukara ku ruhande, ahagaze impande y'ishyamba arimo arareba hirya gato ye, asoroma amababi ashaka gutwara ngo ajye kuyasyamo umuti.

Kugeza kuri ubu abantu ntabwo biyumvisha uburyo umuravumba ushobora gutunganywa kugera ku rwego uvamo igisa n'ibinini, aha baratwereka umuravumba n'ikibabi cyawo bakanatwereka ibinini byawukozwe.

Amacupa ane arimo imiti ya gakondo yose ari mu bwoko butandukanye, hari icupa rirerire riteye nka korogate, hakaba irindi cupa riteye nk'umuti wica ibikoko, hakaba n'irindi cupa ririmo umuti umeze nk'ujyamo kiyoda.

Umuti ukoze mu bimera igicuncu, umuravumba, tangawizi, ugashyiraho n'ikinyabutabire gishobora kuba cyaraturutse mu ruganda kugira ngo kize kuwuha imbaraga zishobora gutuma uhangana n'ibindi bibazo birenze ibyo wagahanganye na wo utarimo icyo ikinyabutabire.

Icyumba cyahurijwemo imiti yakozwe n'impuguke zitandukanye hano mu Rwanda, baba abakoze imiti mu bikakarubamba, imibirizi, ababivanze bakabihuriza hamwe, basa n'aho bagiye kubimurika.

Igitunguru gikasemo kabiri n'ikindi kikiri cyose, indimu babaruyemo kabiri ifite ibice bibiri, iruhande rwayo hateretse icupa riri rimwe ibara ry'icyatsi n'umuhondo, bigaragara ko ibi byombi byahurijwe hamwe bikava umuti gakondo ku buryo ishobora kwifashishwa uvura indwara.

Aloe Vera Gelly ni umuti ufunze mu macupa abiri, kuri iryo cupa handitseho amagambo mu rurimi rw'icyapa agaragaza uwo ariwo ndetse munsi gato hariho igikakarubamba, bigaragara ko ariho wakozwe, iruhande kandi hari abagabo n'abagore bigaragara ko bawukoresheje.

Umuti ukoze mu gikakarubamba n'igitunguru, ufunzwe mu bikarito hariho uwo bagerageje gutunganya mu buryo bw'amazi, hari n'uwo bagerageje gutunganya mu buryo bw'ifu, iyi yose icyo ihuriraho ni uko ivura indwara zidakira.

Biragaragara ko uwakoze iyi ndorerwamo, yashakaga kwereka abantu ko ushobora kuba wayifashisha wamamaza nubwo abenshi bayitekereza ko ntakintu na kimwe ishobora kuba yakwamamaza ngo abakiriya baze kugihaha ariko ibyo si ukuri.

Amababi ameze nk'isombe, ari ku giti kimeze nk'umusave ariko akaba ari icyatsi kidakunda kugaragara hano mu Rwanda, biragaragara ko gishobora kuba cyaravuye mu mashyamba ya Congo, ariko cyavamo umuti wakiza ibisebe.

Ikibabi kimeze nk'uruboga ariko kinafite imiterere nk'iy'umusave, kiragaragara nkaho ari kimwe mu byifashishwa mu gukora imiti gakondo ivurara indwara nyinshi cyane zitandukanye, aha rero ni ho usanga abaganga bavuga ngo witondere kuyinywa kuko ushobora kurenza igipimo ikakugiriraho ingaruka.

Ni icupa rirerire cyane rimeze nk'irikorerwamo icyuma cyo kunywa, ibizwi nka African gin cyangwa se Ingwe gin ariko rikaba ryarashyizwemo umuti uva mu buki witwa Forevar Bee Honey.

Umwembe basatuyemo gatatu, hino hari igikakarubamba cy'ibabi rimwe, amacupa abiri rimwe ry'umuhondo, irinndi ry'umuhondo urimo n'umweru, biragaragara ko ibyo byombi byahurijwe hamwe bikavamo umuti gakondo.

Imiti myinshi cyane ikoze mu bimera bitunganyije neza harimo umuravumba, umubirizi, igicuncu ndetse ugashyiramo n'igikakarubamba. Ibi byose bishyirwa mu ruganda cyangwa se bigasekurwa mu dusekuru twabugenewe.

Uyu muti uva mu bimera bitandukanye umuravumba, umubirizi, igikakarubamba, igicunshu, inanasi, ibitunguru ndetse n'indimu. Ibi byose iyo bihurijwe hamwe bigateguranwa isuku bishobora kugirira umubiri akamaro.

Umuti ukoze mu gikakarubamba havanzwemo igicuncu, umuravumba, n'ibindi, ufunze mu macupa abiri atandukanye, ariko ushobora kuvura ibintu bimwe, icupa rimwe rirasa n'umweru, irindi rirasa n'umuhondo.

Akantu k'umutako kameze nk'ak'ikizingo cy'amahwa, gateretse mo hagati icyuma kimeze nk'isekuru cyangwa se kikaba ari igiti kibajwe ariko kigaterwa irangi ry'umukara ku buryo ukirebeye kure wakeka ko ari icyuma cya aluminiyumu.

Agasekuro karimo umusekuzo, harimo ibyatsi bisa n'ibyumakaye, iruhande rwabyo hariho ikimeze nk'umudaho uriho amababi agiye anyuranye y'ibimera kugira ngo aze gutunganywa neza abe yagira icyo atanga nk'umuti.

Imiti ifunze mu macupa atandukanye harimo uwanditseho amagambo bakoresheje ibara ry'umutuku, ahandi bakoresha ibaburara ry'umuhondo, ahandi bakoresha ibara ry'icyatsi, ariko byose bikaba biriho igishushanyo cy'igikakarubamba.

icyatsi cy'umuti kivura ubona ko gikunda kugaragara ahantu henshi giteye mu ishyamba gikikijwe n'ibiti by'imikindo, kuko nubwo hatagaragara inguri zabyo, amababi y'imikindo arimo aragaragara.

Imiti gakondo yaratunganyijwe ishyirwa mu macupa atandukanye. Agacupa ka mbere karagaragara nk'akajerekani gashobora kujyamo litiro eshatu, akandi ni igicupa gipfundikijwe agafuniko k'umukara ariko cyo gisa n'umuhondo.

Icupa ryanditseho iteka ryose ndamutse ngenekereje amagambo aryanditseho, ari mu cyongereza nkayashyira mu kinyarwanda, rirasa n'umutuku, hejuru hariho n'izindi nyuguti nk'inyuguti ya f, a, ndetse na b.

Amacupa atatu ateretse mu buryo bw'insumbane akoze ikirango gisa naho, ari icya adidasi, ni amacupa aririmo imiti. Icupa rimwe riri mu ibara ry'umweru, hakaba hariho utubara tw'ubururu. Irindi na ryo rikoze rityo, bigatandukanywa n'utubara tw'umutuku.

Icyatsi kirandaranda cyafotowe kugira ngo kifashishwe mu kwereka abanyeshuri biga ubuvuzi uko bashobora gukora imiti gakondo, ikabafasha guhuza neza akazi kabo n'imiti ya kizungu.

Icyapa kiriho ibipande bine bigaragaza ko ibimera bishobora kuba byakwifashishwa mu gukora, hari kimwe kiriho amatovu, ikindi kiriho ibizwi nka kimari, hariho n'ikindi kiriho imbogeri ndetse n'igifite ibikakarubamba.